Umuganga wambaye ipantaro n'ishati by'ubururu ndetse na ga mu ntoki n'agapfukamunwa, arimo arapfuka umugabo wavunitse ukuguru ndetse uwo umugabo iruhande rwe hari imbogo.

Abaganga bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'utugofero tw'icyatsi n'udupfukamunwa tw'ubururu, bari mu cyumba, babagiramo abarwayi, barimo barabaga umurwayi.

Icyumba cyo kwa muganga gifite ibara ry'umweru, kirimo n'ibitambaro by'ubururu, harimo imashini yifashishwa kuvura umurwayi w'indembe.

Abagabo babiri bambaye amapantaro y'umukara n'amashati y'umweru n'udupfukamunwa tw'ubururu, bateruranye igisanduku, iruhande rwabo harimo y'ibitaro bya Nyagatare.

Igitanda kiriho umurwayi, atwikirije amashuka y'icyatsi, hari umuganga wambaye imyenda y'icyatsi, ingofero y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa, ari kwifashisha ibyuma byabugenewe areba umurwayi mu kanwa.

Abagabo batatu bambaye udupfukamunwa bari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune bifashishije ubwogero bwa kizungu.

Abagabo bambaye amataburiya, bahagaze imbere y'ibitaro ndetse bari guhabwa impamyabushobozi.

Umugabo ubyibushye bitari cyane, wambaye ishati y'imirongo y'umweru n'umukara ndetse na karuvati y'umukara n'isaha, afite indangururamajwi mu ntoki arimo aratanga imbwirwaruhame, ahagaze mu busitani.

Inzu nini ifite amadirishya n'inzugi by'ibara ry'ubururu bwijimye, kuri iyo nzu hariho icyapa cy'ubururu cyanditseho ibitaro bya Gatunda byanditse mu ibara ry'umweru imbere yiyo nzu kandi hariho ibirango cyangwa se ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru ufite ikaramu mu ntoki wambaye agapfukamunwa, ndetse n'amadarubindi ari mucyumba cy'umweru, iruhande rwe hari imashini ari gukoresha ifasha mu gupima indwara zitandukanye.

Icyumba cy'ishuri kirimo abana batoya bafite amasahani imbere yabo ariho ibiryo, impande yabo hari abantu bakuru bari kubafasha mu gushyikira ibyo biryo urabona ko bari muri gahunda yo kugaburira abana.

Umubyeyi wambaye umupira w'umuhondo ariko ufunguye imbere, ahekeye umwana mu gatuza, igituza cye kirakoranaho n'umwana, ibyo bikunze kwifashishwa kubana bavutse batagejeje igihe.

Abagabo bane bambaye amataburiya ya kake, undi umwe yambaye umupira w'amaboko magufi w'umutuku, iyo myambaro yabo yanditseho izina rutusi, bahagaze mu nzu iranguza imiti iyo twita depforomasitike

Abagore babiri bafite impinja, bari kwa muganga, mu biro bya muganga ndetse bari kumwe n'umugabo umwe, ubona ko yaherekeje umudamu we, gukingiza umwana.

Akabati karimo udukarito tw'amoko abiri, aka mbere gasa umweru n'ubururu, gashushanyijeho abana babiri, harimo akamashini kifashishwa mu gupima umuriro, akandi karito gasa ubururu, umweru ndetse na orange, harimo umuti wongera vitamine.